Inyama zokeje akenshi usanga abantu bakwiriye kuzitondera, bitewe n'uburyo ziba zateguwe, kubera yuko hari ahantu usanga batazikorera isuku neza, cyangwa se ugasanga no kuzotsa na bwo ntabwo zahiye neza, kandi ibyo ngibyo biba bishobora nko gutera uburwayi, butandukanye cyane cyane ubw'inzoka zo mu nda.

Hirya no hino mu gihugu usangaho utubari twinshi cyane, bimwe mu bintu bishobora gukurura abakiriya benshi ni ukuba batanga serivisi nziza, cyangwa hari n'isuku .Ibyo rero bibafasha kugira icyashara cyinshi, no kwinjiza amafaranga menshi mu gihe gitoya.

Utubari keshi usangagamo inzoga z'amoko menshi zitandukanye ariko n'amafanta gabagamo; ariko nyine nk' abarokore usangaga ataja nko mu kabari nka kariya ngo arasangamo inzoga, ariko nyine nk'umuntu wikundira inzoga baba bashaka kunywa za nzoga zitandukanye bajagamo hariya kugira ngo babone izo nzoga bashaka biboroheye.

Ahantu henshi, muri uyu mujyi wa Musanze, amazu yuzuye vuba usanga harimo ubucuruzi bw'imyenda. Ubu ubu nta muntu byagora cyane, kubona umwenda yambara ,cyangwa kujya kuwushakira kure. Kubera ko mu midugudu hirya no hino usanga harimo ubucuruzi butandukanye, ku kintu icyo ari cyo cyose waba wifuza kwambara.

Ahantu henshi muri iki gihe bakoraga imigati usangaga aba bafite imigati myiza kubera yuko abayikoraga benshi usangaga baragiye kwihugura noneho ibyo bakoraga ugasanga biryoshye bifite ireme mbese ku buryo ku isoko bitajya bibura abaguzi kubera umwimerere wabyo.

Isoko rya kijyambere rigezweho ryitwa GOYIKO rya Musanze ribamo ibintu byinshi bitandukanye, yemwe hari n'aho bagurisha ibigega ku bashaka kujya gufata amazi y'imvura ku mazu yabo. Habamo: imyenda, inkweto, ibintu byinshi bitandukanye, nta kintu na kimwe ushobora kuba ushaka ngo ube wakiburamo.

Ahantu henshi hari iterambere cyane cyane mu mujyi, usanga hasigaye hari amabotike afite ibintu byinshi bitandukanye nk'amavuta atandukanye yo kwisiga, ku buryo bisigaye byorohera abantu benshi bajyaga kuyashaka kure nka za Kigali cyangwa no mu mahanga kuyabona hafi yabo.

Iduka bagurishaga imyenda yo kurarana ku bakobwa ku bagore n'abagabo; muri iki gihe usangaga abantu benshi barasirimutse, nta muntu ugipfaga kurarana umwenda ubonetse wose, kubera yuko bifashaga n'umubiri kugira ngo uhumeke neza.

Ahantu henshi hari ubusantere mu gihugu, hamaze gutera imbere cane, kubera ukuntu bamaze kuhageza umuriro. Noneho kubera ko ibikorwa byinshi usangaga wifashishaga umuriro, kubona serivisi ahantu hose uri mu gihugu, ubu birakoroheraga cane. ntago bigusaba kugira ngo utegereze igihe kirekire.

Amazu menshi muri iki gihe abantu bafatiramo ifunguro cyane cyane abagenzi, usanga yaravuguruwe. Kuko abantu benshi usanga bishakira ahantu hari n'isuku. Ariko nanone bifashaga ba nyiri amazu kubona icyashara cyinshi, bityo bakinjiza n'amafaranga menshi kurusha uko byari bimeze mbere.

Inzu y'ubucuruzi iri mu gasanteri mu caro, akenshi usanga imbere y'umuryango hari ho umutayeri, ku buryo bitakugoraga ushaka kudodesha nk'umwenda.

Koperative yo kubitsa no kuguriza abantu bose Sako ikorera haruguru ya Kariyeri, hepfo y'aho WASAC ikoreraga. Igiraga abakiriya benshi. kugira ngo baguhe serivisi bisaba kuzinduka, noneho kwishura za mitiweli, ibyo ntabwo bitindaga nk'ibindi nko kwaka inguzanyo cyangwa ngo ugiye no kubitsa amafaranga.

Amwe mu mazu ari mu dusantere wasangaga ari kuvugururwa, ba nyiri amazu bari barategetswe kuzajya bashyiraho amakaro. Ibyo byatumaga aho aherereye agaragara neza cyane kurusha uko yari ameze.

Mu dusantere hirya no hino usanga abaturage mu minsi ishize baravugururiye amazu yabo ,bashyiraho amakararo kugira ngo bongere ubwiza bw'inzu, cyane cyane ziriya ziba zinegereye imihanda, noneho n'inzu ikaba ubwayo yakomera.

Gudulayifu mbonaga bagiraga ibintu byiza, bagiraga amavuta y'ubwoko bwose, habagamo ago gwisiga ndetse n'ago guteka. Gusa mbanza ibintu by'aho bihendaga cane, ko mbonaga hinjiramo abasirimu kenshi cyane, bakoreraga hariya imbere ya goyiko, hariya mu mujyi hagati.

Ekwiti banke n'ikigo cy'imari cyorohereza cyane abaturage, haba mu kubitsa mu kubikura ndetse no mu gutanga inguzanyo, usanga nko mu kubikura ushobora kubikura kuri telefone, ahantu hose ushakiye kandi mu gihe gitoya, serivisi zabo zatumye abantu benshi babagana, ubu bagira abakiriya benshi cyane.

Benshi mu gihugu ubu bashishikarizwa no kubaka amazu y'amagorofa kubera ukuntu atwara ubutaka butoya, kandi akajyamo n'ibikorwa byinshi, usibye ibyo kandi bashishikarizwa no gusiga ahantu amamodoka azajya aparika bityo bikorohera n'abahagenda.

Amavuta go guteka garatandukanye. Habaga aga Kiristali, gabaga muri litiro eshanu cangwa se litiro imwe. Gakozwe mu gihwagari, abantu benshi baragakundaga ngo ntabwo gatakazaga umwimerere cane cane ku bantu batekaga amafiriti. Hari n'agandi bitaga Zahabu. Nago gabaga mu tudumoro, go gakozwe ngo mu bimera. Abantu nago baragakundaga.

Isoko ry'ibiribwa rya Musanze ryuzuye vuba bubatse mu buryo bwa kijyambere usanga ibicuruzwa bipanzwe mu buryo bworohera abakiriya kubibona mu buryo bworoshye. Kubera ko buri kintu bitewe n'ubwoko bwacyo cyagenewe aho kiba bityo bikorohera umuguzi uje kubishaka.

Ibigo by'imari byinshi cyane, muri iki gihe usanga bigira n'ibyuma bifasha abakiriya babo kubikuza biboroheye ,bagafata amafaranga amasaha yo bashaka batiriwe batonda umurongo muri banki bategereje abantu babafasha.

Ahantu henshi batari bubaka amasoko agezweho nibura atanasakaye，usanga abacuruzi bagifite ibibazo，kubera yuko usanga nk'iyo imvura iguye，bahita banura ibintu byabo， bimwe bikanangirika cyane. Noneho no mu gihe cy'izuba，usanga nk'abacuruza b'ibiribwa byarangiritse， ku buryo ibyinshi ari n'ibyo bahomba.

Mu isoko ry'ibirayi haba harimo amoko menshi. Haba harimo iby'umweru nka kirundo, kinigi cyangwa gikonko. Ibya kinigi birahendaga na gikonko, abantu benshi ni byo bikundiraga ngo birakomeraga bikaryoha no mu mafiriti, naho iby'umweru babiguraga gakeya ariko na byo biba bihendutse ntabwo ari nka kinigi.

Ahantu henshi mu gihugu hamaze kugera iterambere, cyane cyane amasoko yubatswe neza, ku buryo abenshi mu bacuruzi batajya babura uko bacuruza ibintu byabo bisanzuye, noneho n'abaguzi biraborohera kubera ko muri ayo masoko usanga buri kintu cyaragenewe aho kigomba kujya.

Ibiso byo mu gikoni: ibikombe, amasahani, amasafuriya, amaparato, indobo, bisigaye byaruriye cane. Dusangaga nk'igikombe caguraga magana atatu umwaka ushize, ubu kiri kugura magana atanu.

Akenshi usangaga hirya no hino bari kubaka amasoko gagezweho, nk'isoko ry'ibiribwa rya Musanze usangaga buri kintu cyose cyaragenewe aho kigomba kuba ,noneho ugasanga nk'umuntu uje guhaha biramworoherezaga guhitamo abona ico yashakaga.

Iyi ni gare ya Musanze. Habaga mo amamodoka menshi. Ndetse n'isoko ku ruhande. Usangaga mu isoko ibiribwa, ndetse n'ibindi. Ikintu cyose ushaka mbese urakihasanga. Kandi bibaga bihendutse. habaga mo n'amamodoka menshi, ajya mu byerekezo bitandukanye. Ndetse n'izijyaga mu Buganda zibaga mo.

Usanga hamwe na hamwe mu cyaro iyo bari kutanga imisururu cyangwa se n'inzoga, bazitanga mu bicupa bimwe na bimwe byakoreshejwe, bajugunye, bakagenda batoragura. Noneho ugasanga ibyo batanga nta mwimerere bifite byuzuye umwanda mwinshi cyane.

Mu isoko iyo ushaka kugura ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu gikoni nk'ibikosi, amabakure, amasahani, n'amasafuriya. Biroroha cyane kuko usanga nk'abacuruzi benshi babifite kandi byose bikorohereza n'umukiriya guhahira hamwe atiriwe azenguruka isoko ryose.